Abagore babiri bahagaze imbere y'abandi bantu ndetse umwe muri bo afite indangururamajwi undi ari kureba muri telefone hanyuma uyu nguyu uri gutanga igitekerezo ni umukobwa ukiri mutoya ndetse w'inzobe bigaragara ko ahagarariye urubyiruko.

Umugore uhagaze ufite indangururamajwi, arimo kugenda ageza ubutumwa ku bantu bateraniye hano, afite indangururamajwi ndetse akagira n'igitabo, ndetse afite imisatsi y'umukara, yambaye indorerwamo, arimo kugenda ashishikariza abantu gukora serivisr runaka. Ku ruhande kandi hariho n'umugabo, urimo kumwitegereza wambaye agashati k'umutuku.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage bagiye batandukanye bari mu nama, bateze amatwi barimo kugenda bashishikarizwa gukora serivisi runaka, ndetse hari n'ubutumwa bari kugenda bahabwa, kugira ngo babashe kugira ibyo birinda. Ahangaha aba ari ubutumwa bugiye butandukanye butangirwa hano hantu.

Umugore uhagaze imbere y'abandi bantu benshi, arimo kugenda agezaho ubutumwa bugiye butandukanye, ku bantu bitabiriye iyi nama. Arimo kubareba, ndetse arimo kugenda ababwira, ibyo bateganya gukora muri inama.

Umugabo ufite indangurura majwi yambaye indorerwamo, yambaye ikoti ndetse na karuvati n'agashati keza, ahagaze imbere ku karubanda arimo kugenda atanga imbwirwaruhame, ageze abantu bitabiriye inama ijambo nyamukuru ryabateranyirije hamwe.

Inama yakusanyije abagize inzego z'umutekano harimo abasirikari, abapolisi, b'amayenyeri imbere yabo bafite uducupa turimo amazi, ndetse n'utundi turimo amaji, hanyuma kandi n'inyuma hariho n'abandi bantu abaturage basanzwe bitabiriye inama.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bakoraniye hamwe barimo kugenda baganira, abenshi muri bo bari kureba mu gice k'ibumoso barimo kugenda bareba aho bamuritse ibintu barimo kwiga cyane cyane ibingibi bakoresha icyuma k'ikoranabuhanga bita porojegiteri.

Umugabo w'umusaza ufite igikoresho cya muzika arimo kugenda agicuranga. Yasize arimo kugenda ahuhamo umwuka, hanyuma agakora injyana. Ntabwo ari wenyine, ari kumwe n'abandi bantu benshi bigaragaza umuco.

Itsinda ry'abantu barimo kuririmba. Bari kubyina, bagacuranga. Hari abantu barimo gukurikirana ibyo bari gukora, barimo kubasusurutsa. Birebera imbyino gakondo barimo kubyina, ndetse n'ibihangano byabo barimo kugaragaza.

Ibikoresho by'umuco wa kinyarwanda byiganjemo inkongoro, aho babuganizamo amata, harimo n'udutako kandi ushobora gushyira mu nzu cyangwa se ugapfundikiza ibiseke, aha ngaha ni mu kirambi nk'uko bigaragara.

Amoko y'amacumu agiye atandukanye agiye atatse bitewe n'uko angana ndetse n'ubwoko, aha ngaha biragaragaza amacumu yagendaga akoreshwa mu bihe bya kera hariho ayakoreshwaga yitwazwa, ayakoreshwaga bari guhiga cyangwa se mu kindi gikorwa runaka.

Umukobwa wambaye imyambaro gakondo, igizwe n'imishanana, urunigi ndetse n'utundi tuntu yiteze ku gahanga. Afite imisatsi myiza izinze ndetse kandi arimo kugenda akoma amashyi, aha ngaha abandi nabo barimo kubyina.

Ibikoresho bya gisirikare byifashishwaga n'abantu ba kera cyane cyane ingabo bigizwe n'umwambi, umuheto, ibi ngibi byifashishwaga mu kurinda umwanzi ku rugamba cyangwa se uburyo bwo gucunga umutekano bawucungira umwami ndetse n'igihugu.

Igikoresho cyo mu muco wa kinyarwanda bitaga amayogi. Yifashishwaga cyane cyane igihe intore zabaga ziri guhamiriza. Uko zicinya umugeri n'aya mayogi nayo akavuga, bigatuma injyana iba nziza ndetse abantu bikabaryohera cyane.

Intore irimo guhamiriza ndetse iri kwitakuma yiterera hejuru yambaye n'amayogi ndetse ni za mbyino gakondo z'umuco wa kinyarwanda, hariho abari gukoma amashyi, abari kuririmba ndetse n'abandi bari gukoma ingoma ndetse abandi bicaye bakaryoherwa n'ibi birori.

Igikoresho gakondo gifite amateka mu muco wa Kinyarwanda, kitwa amayogi yifashishwa mu gihe intore zirimo guhamiriza, ariko umuntu acya umugeri hanyuma bikavuza urusaku, bituma injyana irushaho kuba nziza.

Abakobwa babiri barimo kugenda babuganiza amata mu gisabo ni bya bindi bigaragaza umuco wa kinyarwanda aho hano bicaye mu kirambi kwa kundi baba barimo gucunda amata, inyuma kandi hariho n'abandi bagenzi babo barimo kureba ibyo barimo gukora.

Umukobwa urimo kubyina imbyino gakondo. Arimo kubyinira imbere y'abandi bantu benshi. Yambaye urunigi akambara, indi myenda ya kinyarwanda yiganjemo imishanana, ndetse ateze n'urugori ku gahanga.

Ababyeyi n'abakobwa barimo kubyina imbyino gakondo. Bambaye imyenda ya yindi ya kinyarwanda, aho bateze urugori, bafite imishanana ndetse hari n'abandi bari kubyina bakoresheje amayugi, ndetse bafite n'amacumu.

Inka z'Inyambo ziteze amahembe neza ndetse zifite ikinyabupfura, ziratozwa zigahamagarwa, zikitwa amazina ndetse ikindi kandi zifite umuntu uzishinzwe bita umutahira, ari na we uzita amazina ndetse kandi zifite agaciro gakomeye mu muco wa kinyarwanda.

Umugore ukuze cyane arimo kugenda asya amasaka akoresheje urusyo ndetse n'ingasire ndetse kandi imbere ye hariho ibitaro ndetse yashyizeho urukoma arimo kugenda ajyaho ifu ndetse kandi hariho n'imisambi.

Inka y'inyambo ifite amahembe meza igiye iyateze neza, ku buryo ubu ngubu iyo babyina ari zo baba bigana, izi ngizi zifite akamaro gakomeye mu muco wa kinyarwanda, kuko habaho umutahira wo kuzita amazina igihe zabyaye kandi bakagira n'uburyo bwihariye bwo kuzorora.

Umugabo urimo kuririra ku nsinga z'amashanyarazi hejuru, arimo kugenda amanika amatsinga kugira ngo abantu batuye muri aka gace bazabone amashanyarazi, ubu ni uburyo bukorwa n'abakozi b'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu REG.

Akagi karimo abantu barimo kugenda, ndetse hejuru hari abantu bari kumapoto bari kugenda bamanika amatsinga. Ni ahantu harimo kugenda hagezwa serivisi z'amashanyarazi, bakura abantu mu mwijima. Ndetse kugira ngo bajye bakora ibindi bikorwa by'iterambere bifashishije amashanyarazi.

Ifoto ririho amatara abiri acana mu byerekezo bigiye bitandukanye icyo hepfo ndetse n'ikindi kerekezo cyo haruguru, ndets eni ukuvuga ngo aha ngaha ni mu gihe k'impeshyi aho haba hasa neza cyane, aya matara iyo ari mu gihe cya nijoro uba ubona hasa neza.

Abagabo babiri bambaye amakasike, bafite akantu barimo kugenda basuzumiraho kameze nk'akadobo, barimo kugenda bareba ibiri kuberamo bacometseho ikintu kimeze nk'urutsinda ndetse inyuma y'aho hariho abantu barimo kugenda bareba ibintu barimo gukora.

Umukozi w'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda REG, arimo kugenda akanda agakoresho k'ikoranabuhanga bita mubazi, arimo kugenda afasha abaturage gushyirara umuriro muri konteri cyangwa se mubazi kandi nanone bayita kashi powa.

Ahantu hakorerwa ibijyanye n'amashanyarazi harimo ibitsinga bigiye bitandukanye bigiye bicometse, ndetse harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Aha ngaha hameze nka hahandi hari ikicaro cy'amashanyarazi, aho haba hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, aho bakupira umuriro w'akarere cyangwa se muri zone runaka.

Umukobwa urimo kugenda akora ibijyanye n'amashanyarazi, afite insinga arimo kugenda ahuzahuza, uyu nguyu ashobora kuba ari umwe mu bakorera ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu REG, arimo kugenda ahuza insinga kugira ngo arebe ko umuriro wagera ku baturage.

Abakozi b'amashanyarazi abanga baba bakorera ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG, aho barimo kugenda bakora ibyuma bigiye bitandukanye barimo kugenda bahuzahuza amatsinga ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gutanga amashanyarazi.

Abayobozi batatu barimo gufata akadodo barimo kugenda bagaca mu rwego rwo gutaha ikiraro cyakozwe inyuma hariyo abaturage bari kureba iki gikorwa, ndetse ni ubwa mbere kino kiraro kigiye gukoreshwa, kuko urabona ko ari ibirori byo gutaha kino kiraro.

Abantu barimo kugenda batonnda umurongo ku kiraro kiri mu kirere, aha ngaha ni hamwe mu hantu heza nyaburanga, aho umuntu ashobora gutemberere cyangwa se kuruhukira, mu gihe ari mu gihe cy'akazi cyangwa se igihe akazi gasojwe.

Abantu barimo kugenda mu muhanda. Ni ahantu hakimara kubakwa ni agahanda ka kaburimbo hakurya hariho inyubako nayo isa nkaho imaze igihe gitoya yubatswe barimo kugenda baganira umubyeyi umwe afashe akana ku kaboko.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bateraniye ku kigonderabuzima ndetse bari kwigishwa ku buryo bwo gukoreshashwa agakingirizo. Ni ikigonderabuzima gifite amabara y'ubururu ndetse harihoho n'amagambo agiye yanditseho ngo ''gira ubuzima''.

Abagabo bateraniye kuri iyi nyubako, biganjemo abantu b'abacungagereza ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Iyi ni inyubako ya leta aho barimo kugenda baganirizwa ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Bahuriye hamwe kugirango ngo baganire ku ngingo runaka.

Ikigo gitanga uburezi cyane cyane ku bana bananiranye cyangwa se abafite imyitwarire mibi aha ngaha ni mu igororero ry'abana rya Nyagatare aho abana bananiranye cyangwa se abana bakeneye kugororwa ariho babajyana bakabitaho bakabigisha.

Aace karimo amazu agera kuri abiri yubatse muri bwa buryo kera bubakaga inzu za miviringo, gusa bo basakazaga ibyatsi gusa ahangah ho hubatse neza, aha ngaha hgaragaraga nkahantu h'ubukerarugendo, aho umuntu ashobora gusohokera cyangwa se mu gihe ashaka kuharira ubuzima.

Ivuriro aho ku marembo hariho aho umuntu ashobora gukarabira intoki mu gihe agiye kwivuza, ndetse hariho intebe aho umuntu ashobora gutegerereza mu gihe yaje kwivuza ahangaha kandi hariho n'abaturage bagiye batandukanye bariganye.

Umumotari umaze kwambuka ku kiraro, ni ahantu bari kubakwa, hariho abantu bambaye amajire yabugenewe, yabambarwa naho abantu baba bari mu gikorwa runaka cy'ubwubatsi, bambaye n'ingofero zabugenewe zibafasha mu gihe bahuye n'impanuka, bigatuma badakomereka cyane.

Igicumbi kigaragaza isibo ya hano muri uyu Murenge wa Rukomo akagari ka Gasenyi ahangaha hariho agaseke gashushanyije neza ndetse n'ikirangandego cy'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi hariho inkongoro ndetse n'amagambo yanditseho agaragaza indangagaciro.

Inyubako nshyashya, aho hano barimo kugenda bubaka ikiraro, munsi harimo ibiti, hejuru barimo kugenda basukaho isima kugira ngo kino kiraro kize kuba gikomeye, hajye hanyuraho abantu, ibinyabiziga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuhanda urimo amamodoka arimo kugenda. Aha ngaha hari n'ubusitani bumeze neza. Aha ngaha kandi ni hahandi haba haparitse amamodoka, aho umuntu ashobora kujya agategera imodoka, mu gihe ari kujya ahantu runaka.

Umugore w'umubyeyi ahetse umwana arimo gutambuka afite n'agakapu mu ntoki, afashe n'akaboko umwana we, arimo kumujyana amugeza ku kigo nderabuzima, arimo kugenda amufata akaboko kugira ngo ataza gusigara mu nzira.

Ikigo nderabuzima gisize irangi ry'ubururu. handitseho amagambo gira ubuzima ndetse aha ngaha n'ikigo nderabuzima cya karambo, aho ushobora kuza bakaguha serivisi zigera zitandukanye ziganjemo iz'ubuvuzi.

Inyubako nshyashya zuzuye vuba zigizwe n'amacumbi abantu babamo muri za nzu aho imwe iba irimo imiryango ibiri ndetse henda gutahwa kuko nibwo hakimara gusozwa kubakwa ni heza cyane.

Umuhanda umaze igihe gitoya ukozwe urimo kwerekeza mu mujyi. Aha ngaha benda gushyiramo umuhanda wa kaburimbo, hararinganiye kubera ko imashini zagiye zihanyura zirimo kuharinganiza. Abantu barimo kugendera ku ruhande, kugira ngo bareke imodoka zitambuke neza.

Abagabo bagera kuri bane ndetse n'abandi bagore barimo kugenda imbere y'inzu ifite amabati y'ubururu ndetse kandi yubakishijwe impunyu zihiye ndetse aha ngaha biragaragara ko ari ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro.

Ikibumbano kiriha rwa hagati mu muhanda aho kigaragaza umuco Nyarwanda ndetse cyane cyane kigaragaza inka y'inyambo aho kera yari ifite agaciro cyane, ndetse na n'ubu ku buryo baba babyina abakobwa batega amaboko bigana inyambo kubera ubwiza bwazo, ndetse n'ubwenge ziba zifite.

Agace karimo inyubako zigiye zitandukanye, zubatse mu buryo bw'amashuri, ndetse haruguru haba n'imihanda igana mu bindi byerekezo bigiye bitandukanye, hakurya kandi nane hari ibindi bikorwaremezo, n'ukuvuga ngo aka gace karimo ibikorwa remezo byinshi cyane.

Urugomero rw'amashanyarazi aho ahangaha bafata amazi kugira ngo ibigo runaka cyangwa se amakampani runaka abashe gukora, akuye umuriro kuri urugomero. Ni ukuvuga ngo uru rugomero ruvamo amashanyarazi hifashishwa mu mijyi, ndetse n'ahandi hantu mu bikorwa by'abaturage bigiye bitandukanye.

Abayobozi bambaye imipira isa, barimo kugenda bazenguruka ahantu hubatse ndetse biragaragara ko atagikorerwa, huzuye insina zirimo kuhamerera ndetse kandi biragaragara ko aha ngaha ari ikiraro cyakoreshwaga hanyuma kikaza gutabwa.

Abayobozi bagiye batandukanye bafite inka, ahangaha ni mu kibuga iyi nka irimo kugenda irisha. Kandi ni bwa buryo bagenda bagabira amatungo abantu batishoboye muri gahunda y'u Rwanda ya Girinka.

Igihe cyo guha icyubahiro inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe abatutsi 1994, aho umuyobozi afashe indabo kugira ngo ashire ahashyinguwe imibiri y'abazize Jenoside yakorewe abatutsi 1994, kugira ngo bahabwe icyubahiro mu gihe cyo kwibuka.

Imbaga y'abantu bakoraniye hamwe barimo kugenda baganira biganjemo abagabo abagore, ndetse n'abashinzwe inzego z'umutekano, n'umwe mu bakorera ikigo cy'iperereza Ribu barimo kugenda, baganira. Ahangaha ni kwakundi baba bari gukemura ibibazo.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe, ni abaturage bo muri aka gace inyuma kandi haparitse imodoka zajemo abayobozi, barimo kugenda babaganiriza. Bitabiriye cyane ku bwinshi ni kwa kundi baba baremye inama batumiye akarere abaturage bose.

Abayobozi bagiye batandukanye barimo gufata agafoto, hanyuma harimo umugore umwe uri kuruhande wambaye imikinyero, ku rundi ruhande kandi hariho umugabo wambaye indorerwamo ndetse yambaye n'agakoti, hanyuma kandi uwo bari kumwe, nawe yambaye agakoti hagati yabo bose hariho umugabo w'umuzungu.

Abagabo bateraniye hamwe, barimo kugenda baganira, umwe ari imbere arimo kugenda abaganiriza, biragaragara ko ari abagabo bafite gahunda ndetse barimo kuvuga bashize amanga, baragaragara nk'abantu bakora mu nzego z'umutekano, ukurikije ingano n'ukuntu bahagaze.

Umugore ufite ururabo bamworoshe umutaka ni muri cya gihe cyo kwibuka, aho baba bafata indabo bakazishyira ku nzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi, aho baba bashyinguye imibiri yaho mu buryo bwo kubahereza icyubahiro.

Akazu karimo abantu benshi bagiye batandukanye bicaye. Abenshi ni babandi baba bategereje imodoka, igihe baba bamaze gukatisha amatike. Utuzu nkutu tuboneka ku magare ndetse no ku mararede aho imodoka zihagarara akanya gatoya, naho imodoka zihagarara umwanya munini ariho muri gare.

Umuhanda wa kaburimbo aho aha ngaha ari ku ruhande aho umuntu ashobora kwambukira, ni ukuvuga ngo imodoka iyo igeze hano itegetswe guhagarara, kugira ngo abanyamaguru babanze batambuke. aha ni mu gace abanyamaguru banyuramo mu gihe bari kwambuka, bagana mu bindi byerekezo hakurya y'umuhanda.

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri irimo ku kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hariho amaduka agiye atandukanye aho ushobora kugurira ibikoresho bigiye bitandukanye bitewe n'icyo ushaka, kuko ahangaha ari kugasatere, hahuriyeho abantu benshi.

Imodoka ya kwasiteri, zimwe zazindi zifashishwa mu gutwara abantu zibajyana mu bice bigiye bitandukanye. Ifite purake, r a c rimwe kabiri umunani, ke. Izi ngizi, zikunze kujya mu bice by'intara ndetse no mu bice byo mugi.

Mu masaha ya nijoro aho kino cyapa kigaragaza ko imbere ku muhanda udakomeje. Ikerekezo kimwe kirafunze, ni ukuvuga ngo uretse ikerekezo k'ibumoso cyangwa se iburyo naho imbere gukomeza imbere ntabwo byemewe.

Ahantu hagaragaza aho abantu bashobora kwambukira mu gihe bari mu muhanda, iki cyapa kibuza ikinyabiziga icyo ari cyo cyose kigiye kwambuka kuba cyakomeza mu gihe ari umuntu urimo kwambuka. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyose kiba kigomba guhagarara kigategereza abantu bakambuka.

Imbaga y'abantu benshi barimo kugenda baganira imbere hariho umugabo ufashe umutaka arimo korosa uyu mugore urimo gutanga ubutumwa ku bantu bitabiriye iyi nama kandi harimo n'abandi bantu benshi bicaye mu itente iri inyuma.

Abagabo barimo gukora umuganda biganjemo inzego za gisirikare cyane cyane inzego z'umutekano, barimo kugenda bakora ibikorwa remezo babikora cyane cyane iyo bafasha abaturage batishoboye cyangwa se mu gihe cy'umuganda.

Abagabo babiri barimo mu guhinga cyane cyane higanjemo inzego z'umutekano, aho harimo umusirikare urimo kugenda afasha uyu muturage amwereka ko mu gihe bakoranye bashobora kugira imikoranire myiza ndetse bakagera kuri byinshi, arimo kugenda afasha abaturage mu kugera ku bikorwa remezo bigiye bitandukanye.

Abagabo n'abagore bateraniye hano barimo kugenda bagabira uyu muntu inka, ni muri bwa buryo mu Rwanda habaho gira inka aho umuturage utishoboye cyangwa se ufite amikoro makeya bamuhereza inka kugira ngo azikure mu bukene.

Abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye bari ku murongo nticyagiye umupira uba utari watangira aho baba barimo gufata ifoto, barimo kugaragaza ubutumwa bugiye butandukanye harimo n'inzego za gisirikare ndetse n'abapolisi.

Abakinnyi barimo gukina umupira w'amaguru ndetse ni amakipe abiri ahanganye, hakurya hariho abafana barimo kugenda bavuza induru igihe umukinnyi ateye umupira neza cyangwa se ateye icenga, barimo kugenda bafana amakipe yabo bakunda.

Abantu benshi bicaye mu masaha ya nimugoroba bicaye ahantu barimo kureba umupira, biragaragara ko ari muri sitade, kuko inyuma yabo harazitiye, harakorutiriye ku buryo nta muntu ushobora guturuka hanze ngo ahite yinjira.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru ahangaha inyuma haragaragara izamu aho umuntu atsindira igitego mu mupira w'amaguru iki kibuga arimo gukiniraho kirimo tapi ku buryo umukinnyi ashobora kugwa hasi ntagire ikibazo agira.

Abakinnyi barimo gukinira muri sitade aho bamwe bambaye imyenda y'ubururu ndetse indi kipe bahanganye yambaye imyenda y'imihondo, ni ukuvuga ngo bituma havaho urujijo buri wese akamenya ikipe bahuriyemo, akamenya mugenzi we akaba ashobora kumuhereza umupira.

Abagabo bicaye muri za ntebe za sitade, aho umuntu aba yicaye yirengeye areba umupira mu buryo ashaka ndetse biganjemo abasore ndetse n'abana batoya bazanywe n'ababyeyi babo kugirango ngo nabo bihere ijisho ku mikino iri kujya mbere.

Umupira wo gukina uteretse hagati mu kibuga, ku ruhande hariho abakinnyi bambaye imyambaro ya siporo bita amajezi y'ubururu ndetse n'amasogisi y'umweru, barimo kugenda batera intambwe ndetse uyu mupira bawusize hagati biteguye gutangira gukina.

Umunyonzi uri imbere y'imodoka aha ngaha ni mu muhanda ya yindi ya kaburimbo, aho aha ngaha barimo kunyura ni ahantu h'icyaro ni'amazu menshi ahari, hateye ibyatsi ndetse n'ibihuru hari n'ibiti birebire bihateye ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri biwugize, aho hariho aho umuntu ashobora kunyura mu gihe arimo kuzamuka cyangwa se igihe arimo kumanuka, hariho kandi n'aho abagenzi bashobora kunyura mu gihe barimo kujya mu bice bigiye bitandukanye byo mu mujyi.

Akayira gatoya twa tundi tuba turiahantu mu cyaro, aho umuntu ahanyura agiye mu bice bigiye bitandukanye. Ahangaha ntabwo ushobora kuhanyura n'imodoka, gusa moto, igare bishobora kuhanyura cyangwa se mu mugihe urimo kugenda n'amaguru.

Umugabo urimo kugenda muri kaburimbo, arimo kugenda areba inyuma. Afite anvilope mu ntoki ndetse umuhanda nta modoka zirimo, arimo kugenda wenyine, mu gihe izuba ririmo kuva. Arimo kugenda areba inyuma, kugira ngo arebe ko nta kinyabiziga kiri inyuma ye.

Imbuga igizwe n'inzira nyabagendwa iteye hasi sima hari n'amapave ndetse ni ku nzira umuntu ashobora kunyuramo mu gihe arimo kugenda n'amaguru, gusa tuno dupave dukunze gushyirwa ahantu hari imbuga nini cyane cyane ku bigo runaka.

Agatagisi gatoya karimo kugenda gaca mu muhanda, gafite pulake ara a ka gatanu rimwe rimwe ba, karimo kugenda gatwara abantu mu byerekezo bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ibyaro. Iyi modoka ikunze gutendeka abantu benshi iyo wayiteze ugomba kwegerana na mugenzi wawe.

Uduhanda dutuye tunyurwamo n'abantu bagiye batandukanye cyane cyane berekeza mu bice by'ibyaro mu mazu yabo ndetse aha ngaha nta modoka ishobora kuhanyura kuko ari utuyira tuba twarasizweho kugira ngo abantu bajyanyuramo igihe bagana mu ngo zabo ndetse zikunze kugaragara ahantu h'ibyaro.

Akayira kagana mu bice by'iyaro ndetse ni ahantu hari urwuri, kuko ku ruhande harimo imicaca irimo kumera ndetse ahantu umuntu ashobora kuragira, utu tuyira tuba tugana ahantu hari ibyaro mu mago ndetse no mu tundi duce tgiye dutandukanye.

Akayira gatoya, twatundi tunyurwamo n'abantu bagiye muce bigiye bitandukanye by'ibyaro, hashobora no kunyura imodoka mu gihe zigana mu biturage bigize kano gace. Ahangaha kandi ushobora no kuhanyura n'amaguru mu gihe urimo gutembera.